Ni inyubako iriho icyapa, kigaragaza ko ari mu karere ka Nyanza, uruganda rutunganya ibikomoka ku nka. Hari amata, hari yawurute, hari ayo mu tujerekani, ndetse n'amata yo mu dukombe. Uru ruganda ruherereye i Nyanza.

Ubwishingizi ku muntu ndetse no ku bintu bye ni ibintu biba bikeneye iki ni ikigo buritamu cy'ubwishingi gitanga ubwishingizi ku muntu ufite urugendo aho batanga serivisi z'uko umuntu agenda neza akagenda nta kibazo kandi byihuse ntaho ahagarara kandi bakakubwira ko ubuzima bwawe baba babwitayeho hakaba hariho nimero ndetse naho wababona ku mbuga zose.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka ebyiri imwe y'umukara n'indi yenda gusa umweru, tukabonamo inzu ku ruhande yarwo yubakishije amabuye kandi ifite amababi y'umutuku ni'gipangu cy'umukara.

Ubwishingizi buba bukene ku muntu ndetse no ku kintu icyo ari cyo cyose harimo n'ibinyabiziga tukabona babaza bati radiant yacu, bakubwira ati ''turi kumwe mu rugendo rwawe tuguha ubwishingizi bw'ubuzima kandi akanyeri ,gatanu ,gatatu rimwe urwego'', mw'ifoto kandi tukabonamo umumotari wari utwaye imbere ye habereye impanuka asa nkaho aho hari byari bihiye, iyo habayeho ikibazo nk'iki baragufasha bakaguha igikoresho gishyashya cyangwa bagakoresha wari ufite.

Ubwishingizi bufasha benshi cyane kandi, nabo bagashinganisha ibyabo, bari kwamamaza ko ushaka ubwishingizi wagana sonarwa ariyo ikigo gitanga ubwishingizi mu Rwanda, aho ushobora kwishinganisha ibyawe ugatwara nta kibazo rwose, ugashinganisha umutungo wawe cyangwa iby'urugendo bashyizeho nimero zo guhamagaraho ndetse n'imbuga zose wabonaho.

Icyapa cyamamaza ubwishingizi bwa Buritamu. Kikaba kiriho imodoka ihetse indi yangiritse. Amwe mu magambo yanditseho agira ati: "Hitamo buritamu, inshuti y'ibihe byose." Hasi hariho numero wabasangaho ari zo 0788 198 000.

Icyapa cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi amwe mu magambo yanditse kuri iki cyapa aragira ati:" Simbona gusa ufite ubwishingizi mbona umuturanyi hakaba hariho kandi umukobwa w'umuzungu ufite imisatsi miremire ikora ku ntugu ze akaba yambaye umwambaro ufite ibara risa umukara kuriki cyapa kandi hakaba hariho nimero za telefone arizo gatatu, gatatu, kane, akarongo, umunani, icyenda, icyenda, akarongo, zeru, icyenda, karindwi, gatanu."

Icyapa kinini cyamamaza ubwishingizi bwitwa purisizi buvuga ko baguha ubwishingizi buva ku nshuti n'abaturanyi atari imashini, ugahabwa ubwishingizi ugafashwa harimo na nimerogomba gukoresha icyapa, urobona ni icyapa kigezweho kimwe kirekire umuntu wese aho ari hose aba agomba kukibona.

Izindi serivisi za banki cyangwa urubuga rwa banki baba bakoresha ikoranabuhanga aho kugira ngo ujye kuri banki utonde umurongo cyangwa umara igihe bataragufasha ubikora ukoresheje telefoni cyangwa mudasobwa yawe aho uri hose, iyi banki bakwereka amafaranga uba ufiteho n'ayo wakoresheje nayo umaze igihe cyose ushyiraho byose bya banki yawe barabikwereka.

Apurikasiyo ya banki ukoresha urimo urinjira aho wabitse amafaranga yawe cyangwa muri banki runaka. Ubona ko berekana aho wandika amazina n’umubare wawe ibanga kugira ngo hatazagira undi ubyinjiramo. Ubundi ukinjira ukareba ibigenga banki yawe.

Iyi ni telefoni turi kubona irimo urubuga rufite amabara y'ubururu ndetse n'umweru harimo amazina Benimana, Rwaka, Roza ndetse na Kalisa urundi rubuga bashobora gukoresha bohereza cyangwa bakira amafaranga kuri banki ariko izi ni serivisi zitangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga aho bitagusaba kujya kuri banki ashobora kuba yarari kureba ayo asigaranye cyangwa ayo yohereje.

Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, uyu ni umuntu usa nkaho yari ari gukoresha ikoranabuhanga ari gushaka serivisi za banki ya kigali ariyo twita Beka, uyu muntu akaba yitwa Teta yari ari gushaka kwishyura cyangwa kubona amafaranga bakatwereka ibyo yaba yarakoze bya banki yiwe hariho amafaranga yishyuye inzu ayo ahembwa n'ibyo yahashye byose akoresheje banki ye

Ni mu isoko ry'ibiribwa harimo abantu bagaragara ko bari kugurisha, ndabona imboga zitandukanye, inyuma yaho ndahabona ibindi bintu biri gucuruzwa ,ndahabona ikimeze nk'umutaka ,ndahabona hirya ibiti ndetse hirya yaho hari n'inyubako.

Urupapuro rw'umweru cyangwa se rwera rwanditsweho amagambo ibishushanyo ndetse n'andi mabara atandukanye, handitsweho amagambo yiganjemo umukara, ay'ubururu ay'umweru ndetse akaba ariho agashushanya ka mudasobwa, hariho n'andi mabara atandukanye y'umutuku, ubururu ashushanyijemo inyoni y'umweru ndetse hakaba ashushanyijeho amabara y'ubururu, umutuku umuhondo ndetse n'icyatsi y'ibendera ry'u Rwanda.

Iduka ricuruza imyenda y'ikinyarwanda ari yo myenda yakorewe mu rwanda dukunze kwita made in Rwanda iyi ni imyenda iba yarakorewe mu Rwanda urabona harimo amabara y'umukara, umweru, umuhondo, icyatsi n'umutuku ubururu ndetse n'akandi kerurutse iyi myenda ikunze kwambarwa n'abantu b'abanyarwanda bafite amafaranga cyangwa abavuye hanze bayikunze.

Iyi ni ibutike cyangwa iduka icuruza imyenda myinshi utabona ko ni iy'abagore ifite amabara y'iroze ryerurutse cyangwa n'amapantaro y'amakobo y'ubururu hakabamo n'udusengeri dufite udushumi tw'umweru n'amadarubindi, aha ngaha bacuruza imyenda ndetse n'inkweto aho umuntu ashobora kugenda akagura agatahana imyenda akunze.

Aha ni mu isoko aho bacuruza ibintu by'ubwiza by'abagore, turabonamo ibikomo ndetse n'ibindi bishobora kuba ari nk'amashanete cyangwa amaherena, hakaba harimo kandi n'imyenda iyo imanitse, aho ni isoko bacuruza ibintu abagore bashobora kwambara kugira ngo bigire beza kandi base neza.

Iri ni iduka ry'imyenda dusa nk'aho ari imyenda y'abagabo gusa kuko turabona ko hari ibisa nk'abantu byambaye amakositimu n'amashati ndetse na karuvati hakaba hakoreramo abagore ndetse n'abagabo bacuruza amashati menshi, ubwoko bwinshi mu mabara menshi twabonamo ubururu bukaye ndetse n'umweruru, tukabona hari usa nk'uwari umaze kwishyura kuko yaguze hakaba hasizemo irangi ry'umweru ndetse n'icyatsi.

Iyi n'inzu isa nk'aho ikora ibintu bya kinyarwanda turabonamo utuntu tuboshye tumeze nk'udutebo ari two bashyiramo ibintu byinshi, ubika cyangwa ufashamo ,tukabona ibimanitse mu bintu by'utubati bimeze nkibikoze mu mwenda w'igitenge, tukabona umuntu wicaye hepfo usa nk'aho ariwe ukoramo kandi tukabona ahantu hariho igiti.

Iri ni mu isoko bacuruza imyenda y'abagabo ariyo amakositimu harimo umukara, ubururu umweru ndetse n'ivu, iyi myenda tuzi ko ikoreshwa mu gihe hari ahantu hiyubashye ugiye mu nama cyangwa mu birori kandi iyi myenda abantu b'abayobozi nibo ntibakunda kuyambara.

Iyi ni butiki isa nk'icuruza ibintu byakoreye mu Rwanda, aribyo dukunze kwita mede ini Rwanda, bisa nkaho harimo udutabo ndetse n'udukapu n'ibintu byinshi, ahangaha ushobora kujyamo ugahaha wajyanye amafaranga yawe ukabona ibintu byinshi ukunze, kuko aba babikoze ni abanyabugeni kandi usanga ibintu byabo byose ari byiza cyane.

Habona imodoka ziparitse, iringiyi iri imbere isa ibara ry'ivu tabona ko iriho icyapa cyitwa kigali kuzi maketi bivuze ngo ni isoko bacururizamo imodoka i kigali iyi ni bibiri nacuumi na gatatu yundayi sonata ibiride imodoka kandi yikoresha irimo ira iragurishwa kuri miliyoni icyenda ku isoko.

Ibi ni ibiro by'ubwishingizi ari byo twita sanilamu hano mu Rwanda iyi ni inyubako ndende rwose bakoreramo, aho ushobora kubagana bakaguha serivisi z'ubwishingizi mu gihe ugize impanuka cyangwa ukagira ikindi kibazo cyatuma ukenera inyishyu y'ibyawe byose.

Igiti kirekire gikozwemo mu cyuma kiriho insinga zijyana amashanyarazi kubantu bose batuye muri akano gace turimo turakibona kandi gisa nk'aho kiriho itara rimurikira umuhanda wose tukabona icyapa cyanditseho yundayi gisa ubururu, kiri hepfo yi'inzu nini bishobora kuba nk'aho bahagurishiriza imodoka kandi hegereye umuhanda na pasiparume.

Aha niho bacuruza imodoka twabonamo imodoka nziza cyane nshyashya iri mu bwoko bwa toyota isize irangi ry'umweru isa neza, aho icururizwa naho ni heza cyane, aha ngaha abantu bahaza baje kugura amamodoka bazajya bagendamo yiyubashye kandi ashobora kwishyurwa.

Aha niho bacururiza imodoka hari handitseho benz, ngo ni imodoka zo mu bwoko bwa benzi, hamwe na fuso n'ibindi ndababona abagabo batatu bahagaze umwe wambaye umukara, ipantaro ndetse n'ishati y'umukara abandi bambaye imipira y'umweru n'amapantaro bita amakoboyi, bafite utwa mverope tw'umutuku bafite n'icyapa cyerekana ko baguze imodoka mu kagera market.

Aha ni aho bacururiza imodoka, ahantu hasa neza cyane hari irangi ry'umweru hasi no hejuru, hagiye hamanitse amafoto y'amamodoka hari n'amadirishya, tukahabona imodoka ziparitse nziza cyane zose z'umukara kandi zisa neza.

Imodoka ziragurwa kandi zikagurishwa. Aha ni aho bacururiza imodoka, turabonamo imodoka nziza cyane y'umukara isa neza isa nkaho ifite n'ibirahure byijimye, ikaba iparitse mu muhanda, iri ruguru yaho twabonayo amazu maremare asa nka geretse kandi asa nkaho anakikijwe ni'ibiti.

Aha niho bagushiriza imodoka aho abantu baza kuzireba bagiye kuzigura. Turabona icyapa cyanyanditseho yu ndayi iri hepfo y'umuhanda ahantu horoshye kuba abantu bahabona abanyamaguru baba barebamo, amagare ndetse n'imodoka na moto byose babibona turabona hafiteze irangi risa shokora afite amadirishya y'umweru kandi n'imodoka umuntu aje kugura ziba zirimo ziparitse turimo turazimo turazibona zzisa ivu.

Imodoka igurishwa yitwa yundayi kereta bibiri na cumi n'icyenda, imodoka ikaba iparitse ahantu mu muhanda isa umukara, iri mu ubwoko bwa yundayi, ni imodoka nziza ubona ko ikiri nzima, ikaba igurishwa miliyoni cumi n'eshanu, ni imodoka bari bashyize hanze ko bashyize kw'isoko.

Ayo ni amafaranga yakoreshwaga kera mu Rwanda, ayo mafaranga yabaga ari inoti y'ijana byanditseho ko ari amafaranga ya banki nasiyonari y'u Rwanda, hakaba hariho imparage zigenda bivuze ngo tuba dufite inyamaswa mu mapariki yacu zibayeho kandi zikurura ubukerarugendo, tukabona aho umubyeyi uhetse umwana bivuze ngo abantu babayeho batuje barabyara bagaheka, kabonamo n'imisozi rwose TRwanda ari urw' misozi.

Umuntu asa nk'uri kubara amafaranga yicaye mu biro afite amafaranga amanoti menshi ndetse kandi n'ibiceri, ukabona ko hirya afite n'imashini ibara amafaranga yoroshya akazi, ibi bikunzwe gukoreshwa cyane cyane muri banki arizo zoroshya akazi, izi mashini zigatuma akazi kihuta umukiriya akagenda yishimye kandi namwe mugakora akazi kanoze.

Umuntu wambaye agapira gafite amaboko k’ubururu, wambayemo ishati y’umweru ndetse na karuvati, akaba yambaye ikarita iranga akazi akora mu ijosi. Afite amafaranga mu ntoki asa nk’ukora muri banki, akaba yari kuyabika cyangwa hari uwo yari agiye kuyaha, ari kuyamubarira.

Ameza asa umukana akaba atereretseho imashini yifashishwa mu kubara. Kuri aya meza kandi hakaba hariho ibiganza bifashe amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Nigeria, amwe ni inoti z'ijana, andi ni inoti z'igihumbi. Ku ruhande hakaba hariho inoti zizirikishijwe agatambaro gasa umweru n'akandi gasa iroza.

Aya ni amafaranga yakoreshwaga kera mu Rwanda muri ayo mafaranga banki nasiyonali y'u Rwanda yari yarasohoye amafaranga ariho abanyeshuri ariho ndetse n'ibindi bikorwa bituzanira ubukungu mu gihugu arizo ingagi zacu zituma tugira abakerarugendo bakishyura tukabona amafaranga yishyurira amashuri abana benshi batishoboye.

Amafaranga ni ikintu dukenera mu buzima bwa buri munsi aho ushobora kugura cyangwa ukagurisha ikintu waba ukeneye muri ako kanya, aya ni amafaranga turimo turabona aka gakoresho gasa umukara kari kwakamo ubururu n'umweru ni agakoresho bashyiramo amafaranga barimo barayabara kugira ngo umuntu uko yakibeshya ariko aka ka mashini karakora neza kandi kakabara neza kihuta ku buryo katagutera umwanya.

Igikakarubamba bagitunganyiriza mu ruganda bakavanamo umutobe bakawushyira mu gacupa, uwo mutobe ukajya uvura indwara zitandukanye zirimo inzoka zo mu nda na amibi.

Utuntu tuzengurutse, ni ibiceri tubona bisa nk'aho ari ibiceri byakoreshwaga mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'akarindwi, iki ni igiceri cy'amafaranga makumyabiri cyaracitse ntago bigikoreshwa kuko byarahindutse iki giceri gisa nkaho gifite ibikiranga ndabona ururande mwari y'ibitoki byerekana ko mu Rwanda duhinga kandi tukeza.

Amafaranga menshi ari mu biganza by'umuntu usa nk'uri kuyerekana, ni amafaranga atari make kandi bigaragara ko ari ari ayo mu gihugu cya Kenya, aya mafaranga akaba yanditseho ko ari inoti y'igihumbi, umuntu yari ari kuyerekana bisa nk'aho yari yayakoreye agatsinda cyangwa hari icyo yari yayashoyemo akaba menshi.

Ibicuruzwa by'amata aho bita Mukamira iri mu Rwanda ni uruganda rukora ibintu byose bivuye ku mata, turabona ko harimo amata menshi amwe yo mu bwoko bwita vanira, shokora n'inyenyeri n'amata asanzwe, turabona abakozi bayo bambaye imipira y'ubururu bahagaze imbere basa nkaho bari baje gucuruza.

uyu ni umutobe ukorerwa mu ruganda rw'inyange uru ruganda rukaba rukora amata rugakora n'indi mitobe myinshi bakoresheje imbuto nyinshi ahangaha bakoresheje iyitwa amatunda rero ibingibi bikaba bikorerwa muri urwo ruganda rw'amata ariko baba bakora n'imitobe.

Urupapuro rw'umweru cyangwa se rwera rwanditsweho amagambo ibishushanyo ndetse n'andi mabara atandukanye, handitsweho amagambo yiganjemo umukara, ay'ubururu ay'umweru ndetse akaba ariho agashushanya ka mudasobwa, hariho n'andi mabara atandukanye y'umutuku, ubururu ashushanyijemo inyoni y'umweru ndetse hakaba ashushanyijeho amabara y'ubururu, umutuku umuhondo ndetse n'icyatsi y'ibendera ry'u Rwanda.

Umugabo wicaye arimo arankwa amata mu itasi y'umweru. Asa nkaho yari yiteretse keke byerekana ko hano yarari ni ahantu bacururiza amata. Turimo turabona abandi bahagaze imbere ye bafite amajerekani y'umweru. Aha naho baba bacururiza amata cyangwa ibintu byinshi bikorwa mu mata.

Asa nkaho bacururiza amata turabona umwana rwose mwiza ubyibushye, babonana ncyo bayabikamo bisa nkaho'aho hari icyuma, kandi harimo n'abagabo babiri bicaye barimo baseka bambaye utukote tw'umutuku.

Ikoranabuhanga ryatugejeje kuri byinshi aho usigaye ubitsa cyangwa ukabikuza, ukishyura cyangwa ukanabishyura abandi rwose ukoresheje terefoni izi ni serivisi za Emutiyeni umurongo w'itumanaho mu Rwanda aho baba bari kukubwira imibare ukanda ariyo akanyenyeri rimwe itandatu gatanu urwego ukabona izi serivisi zose ari ukohereza amafaranga, kugura ama inite, kwishyura no kureba amafaranga usigaranye.

Ikoranabuhanga imwe muri serivisi zaje zikenewe mu rwanda aho ushobora kwishyura cyangwa kohereza amafaranga mu gihe cyoroshye kandi ukoresheje telefoni cyangwa mudasobwa yawe utavuye aho uri. Ndabona umukobwa ufite imisatsi myinshi wambaye agapira k'irose urimo uraseka yishimye aho warimo arakubwira ati wishyure ukoresheje telefoni yawe na sipeni aho ushobora kohereza cyangwa ukakira amafaranga nta kiguzi.

Uru ni rubuga wishyuriraho ukoresheje ikoranabuhanga bakunze kwita Peyi Pali, baba bakwereka ayo ukoresheje hano umuntu yari amaze kuyoherereza amadorari ibihumbi birindwi na magana atanu amazina ye ntabwo agaragara, hariho uko bakwakira n'uko ikoreshwa tukabona ko hariho agakombe karimo ikawa n'ibindi byinshi.

Kubona ubutumwa buri muri telefoni, bwerekana ko ari saa tanu n'umunota umwe mu gitondo, berekana ko amafaranga bishyuye bakoresheje ikoranabuhanga muri telefoni byapfuye bitabashije gukunda, aho uyu muntu yashaka kohereza amafaranga ibihumbi bitatu bikaba bitakunze.

Kwishyura kohereza cyangwa kwakira amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga, byarohejwe ku buryo aho uri hose ushobora kuyohereza cyangwa ukabikuza amafaranga yawe, ahangaha bari kuhita Wesitani uniyoni, aho abantu bagenda bagiye kohereza amafaranga ajya mu bindi bihugu cyangwa bagiye gufata ayabo, cyangwa banishyura ibindi byose bakoresheje ikoranabuhanga, tukabona ko harimo abantu benshi basa nk'abari ku mirongo bose biteguye bashaka iyi serivisi.

Uku ni uko bishyura amafaranga bakoresheje ikoranabuhanga bisa nk'aho ari mu gihugu cy'Ubwongereza, umuntu yari yohereje amafaranga igihumbi berekana n'undi ayo aribuze kwakira, kandi biba byerekana nimba ukoresheje ikarita za banki cyangwa izindi zose waba ukoresheje birabyerekana.

Ikoranabuhanga risigaye rifasha mu bintu byinshi iyo usigaye wohereza cyangwa ushakiye amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga, ukanishyura ibikorwa byose wakoze ukoresheje terefoni, ahangaha niho bari kukwereka serivisi za emutiyeni umurongo w'itumanaho, uburyo umuntu yohereza akishyura cyangwa akanagura amayinite akoresheje terefoni, bakamwereka n'ibya banki bye byose kuri terefone yiwe akoresheje serivisi za emutiyeni.

Uru urundi rubuga abishyiriraho bakoresheje ikoranabuhanga, aho imirongo yose ishobora gukoreshwa hano berekana ko eyateri n'indi twita emuyiyeni, byose bikoreshwa, uyu muntu yashakaga kwishyura amafaranga akoresheje eyateri, kandi byose birakunda kuko nta kintu yashakaga kwishyura serivisi z'irembo akoresheje eyateri.

Iyi ni serivisi y'ikoranabuhanga ushobora gukora ukoresheje mudasobwa yawe cyangwa telefone yawe, aho ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga. Ahangaha bakubaza ibyo uzakoresha wishyura amazina yawe, igihugu, telefoni naho bajya bakubona. Icyo ushaka kwishyura n'amafaranga yose uba ugiye kwishyura, ukishyura kandi ukoresheje amakarita ya banki cyangwa imirongo yose y'itumanaho.

Aha ni ukwishyura serivisi zose ukoresheje ikoranabuhanga hano biba biri kwerekana ko umuntu yakoresha Emutiyeni yishyura amafaranga agura interineti akoresheje icyo bita Momo kandi ku ikoranabuhanga bari bari kubyerekana, uyu yari aguze amafaranga ya magana atanu bari bumuhe interineti magana inani, umugore wari wishimye ari kubyerekana nk'aho ari iterambere yari yishimiye kubona.

ikoranabuhanga rimaze gutera imbere mu gihugu, kuburyo umuntu asigaye akora ibintu byose akoresheje ikoranabuhanga harimo kohereza kwakira ndetse no kwishyura amafaranga ukoresheje terefone yawe cyangwa mudasobwa yawe, ahangahan ni uburyo uyu muntu yari ari gushaka kwishyura akoresheje terefone yiwe, uyu muntu akaba yitwa Ganza.

Mu nzu y'ubwiteganyirize mu kwivuza ya ara esi esibi hicayemo abantu benshi batandukanye, higanjemo abakozi b'iki kigo ndetse n'abaturage baje kwaka serivise.

Ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda aribyo Rwanda Revenu Atoriti, iki gipapuro cyari cyatanzwe ku muntu wasaga nk'aho yamaze kwishyura imisoro ye afite kandi agikoresheje ikoranabuhanga, iki cyemezo kandi ni icyo ku kutabamo umwenda w'imisoro igihugu byasaga nk'aho umuntu amekicoro ikompanyi tuzi mu Rwanda ikora amarangi yarimaze kwishyura imisoro isabwa.

Iki ni icyemezo cyerekana ko uwo muntu yishyuye imisoro kandi gitangwa n'ikigo gishinzwe imisoro aricyo Rwanda reveni otoriti muri iki gihugu cy'u Rwanda yerekana ko uyu muntu yari afite amazina ya Henry Rutangaganzwa kandi imisoro cyangwa amafaranga yari agiye kwishyura yari icyemezo cy'umutungo ashobora kuba ari ubutaka cyangwa isambu cyangwa inzu yari yishyuye amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu na bitanu.

Ibiti byiza bizana akayaga ndetse n'amahumbezi akazura abantu bicaramo bategereje imodoka ndetse n'imodoka y'ivaturi, umumotari ndetse n'indi modoka ibari imbere itwara imizigo.

Iyi ni inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe umusoro mu Rwanda reveni otoriti yerekana ko ari imisoro y'ubucuruzi umuntu witwa Blacom Muriltd agomba kwishyura ariyo ibihumbi mirongo ine kandi azaba yishyuye no gusinya kugira ngo acuruze.

Ikirahuri cya mudasobwa kigaragaramo urupapuro rusa umweru hejuru kuruhande rw'ibumoso hakaba hariyo ikirango cya banki ya Kigali cyandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo amwe mu magambo yandikishijwe kuri uru rupapuro afite ibara risa umukara.

Urupapuro rwemeza ko umuntu amaze kwishyura imisoro rutangwa n'ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda, Rwanda reveni otoriti, berekanaga ko ahitwa senti bakeri bari bamaze kwishyura amafaranga y'isuku rusange mu gihugu.

Aha niho bahera agaciro amafaranga cyangwa ujyana ayo ufite bakakuvungira cyangwa ukagenda ukagura andi, urabona ko baba bari kwerekana igiciro bigezeho bayagurisha abanyamerika amashinwa amayapani amanyakenya ndetse n'abanyarwanda n'amarundi yose harimo amafaranga menshi.

Icyuma cyifashishwa mu ivunjisha ry'amafaranga, berekana ko icyuma gisa ubururu, ibihugu byanditswe mu mweru, imibare iri mu mutuku, uko bagura nk'uko bacuruza nk'urugero handitseho ko amayero bagura ku bice umunani bakagurisha kuri bitandatu.

Ivunjisha ry'amafaranga y'amanyamahanga mu gihe uri mu gihugu cyawe cyangwa kitari icyawe nti ibintu bisigaye byaroroshye kuko hari ibiro by'ivunjisha ahantu hose ugeze, aho ujyana amafaranga yawe ushaka kuvunjisha cyangwa kugurisha bakaguhindurira bakaguha uyikeneye hano twabonamo ibiceri byinshi ndetse n'inoti bisa nkaho aha hantu bashobora kuba bavunja cyangwa bagura amafaranga y'amanyamahanga.

Ivunjisha ry'amafaranga rirakomeje hari aha hantu hose rirahagera, ujyana ayo ufite bakaguha ayo wari ukeneye aho ugenda bafite agaciro babihaye, kugura no kugurisha urabona abangaba bafite amafaranga mensh,i bisa nk'ahoa hari ay'umuntu yari azanye agira ngo bamuhindurire cyangwa aje no kuyagurisha.

Aha ni uko bakoresha amafaranga bayavunji bayajyana mu byo wayashakaga batabona hano amafaranga y'amatanzaniya magana atanu, igihumbi ndetse na bibiri, aya ngaya ushobora kuyajyana ku biro by'ivunjisha bakayaguha uko wayashakaga wayakoresha mu kindi gihugu waba ugiyemo cyangwa urimo.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka ebyiri imwe y'umukara n'indi yenda gusa umweru, tukabonamo inzu ku ruhande yarwo yubakishije amabuye kandi ifite amababi y'umutuku ni'gipangu cy'umukara.

Aya ni amafaranga y'amahinde ariho umugabo, ari we bita Mahatma Gandhi uzwi ku bikorwa byiza yakoze mu Buhinde byo gufasha abatishoboye n'abashonje kandi yafashije n'igihugu cye kugera ku bwigenge bakamera neza. Aya mafaranga ni yo akoreshwa mu Buhinde kandi ushobora kuyajyana mu bigo by'ivunjisha bakaguha amanyarwanda, amadolari cyangwa amayero wakoresha aho ugeze hose.

Ivunjisha ry'amafaranga y'abanyamahanga bisigaye byoroshye aho hasigaye hari ibiro byinshi byo kuvunjishaho amafaranga cyangwa yo kugurirwaho ,aho ugenda amafaranga y'abanyamahanga bakaguha ayo ikeneye ushobora kwitwaza nk'amadolari bakaguha amanyarwanda cyangwa ufite amanyarwanda bakaguha amadolari ,ndabonamo umuntu ufite ibiganza rwose asa nkaho ari kubara amafaranga yari agiye kuvunjisha cyangwa bamaze kumuvunjira akaba agiye.

Amafaranga atari ay'igihugu urimo ushobora kuyajyana ku biro by'ivunjisha bakaguha ayo ujya gukoresha muri icyo gihugu, ahangaha hari umuntu ufite amafaranga menshi bisa nkaho yari yayajyanye kuyavunjisha bamuhaye ayo ashaka, amafaranga rwose yari gukoresha muri ibyo bihe.

Aya ni amafaranga y'amanyamahanga ava mu gihugu cy'ubuhinde turabonaho umugabo usa nk'ushaje cyane witwa Mahatima Gandi, uyu ni umugabo uzi mu gihugu cy'ubuhinde ku bikorwa byiza yakoze gufasha abatishoboye ndetse no kubahesha ubwigenge. Aya mafaranga ushobora kuyafata ukayajyana ku biro by'ivunjisha bakaba baguhamo amanyarwanda yawe wifuza cyangwa bakaguhamo andi yose waba ukeneye.

Aya ni mafaranga bisa nkaho ari amafaranga yo mu gihugu tuzi nka kongo nk'uko byanditseho harimo inoti nyinshi, bihumbi makumyabiri, ibihumbi icumi, bitanu, igihumbi, ndetse n'iya magana atanu aya mafarang ubaye uyafite ushobora kujya mu biro by'ivunjisha bakaba baguha agaciro k'amafaranga angana n'ayangaya waba uutwaye kugira ubone uko uyakoresha ubaye utari muri kongo.

Ibi ni ibiro by'ivunjisha aho ujyana amafaranga yawe baguha agaciro kuko bakuvunjiraho niba bashaka mumanyarwanda abayajyana mu madolari urabona hari ibiro byinshi bifite imiryango iriho umuhondo n'icyatsi bakwereka aho bya ayo madirishya y'umuhondo niho umuntu ahagarara bakamuvungira.

Ibiro by'ivunjisha nibwo hano hari icyapa kibyerekana, hasa nkaho hari abantu baba bagomba kwinjiramo, kiriho hariho amafaranga baguha bitewe n'ayo utanze, kandi haba hariho numero ushobora guhamagara mu gihe ubabuze serivisi cyangwa utazishimiye.

Ibi ni ibiro by'ivunjisha byitwa Yunivaso aho bari bashyizeho ko batuye Kigali Rwanda hariho nimero zo guhamagaraho kandi hariho n'urubuga ushobora kubabonamo, iki akaba ari icyapa cyabo cyari kimanitse, inzugi zabo n'amadirishya zisize irangi ry'umuhondo aha ngaha ujyanayo amafaranga yawe y'amanyamahanga ushaka kuvunjisha cyangwa ufite ayo ushaka kugurisha bakaguha amafaranga ushaka ku giciro cyiza.

Ibi ni ibiro by'ivunjisha kandi bitanga amafaranga biha agaciro k'abantu bazanye nimba amadolari bayajyana mu banyarwanda icyamuyarwanda bashaka amadolari kandi tukabona n'icyapa cyanditseho banki ya Kigali ubwo byemekana ko muri iyo nyubako harimo n ishami rya banki ya kigali kandi hariho na nimero wahamagara iyo nzu y'ivunjisha mu gihe ubabuze.

Ibi ni ibiro by'ivunjisha cyangwa baha amafaranga yawe agaciro bitewe n'ayo ushaka; turabonamo abantu bahagaze inyuma ya mudasobwa, bari gufasha abantu baba babasanze babagannye; urabona ko uzana amafaranga bakakuvunjira, ugatwara ayo washakaga niba amanyarwanda bakaguha amadolari, cyangwa amadolari bakaguha amanyarwanda.

Umuhanda munini uri kunyurwamo n'imodoka ifite amabara y'ubururu n'umweru ndetse n'umukara hafi yayo hari ibiti byiganjemo imikindo idufasha kuyungurura umwuka duhumeka.

Ibi ni ibiro by'ivunjisha aho ujyana amafaranga yawe ugiye kuyagurisha bakaguha ahandi, cyangwa ugiye ngo baguhindurire andi afite agaciro kangana n'ayo ufite aha ngaha ushobora kujyana amanyarwanda bakaguha amadolari cyangwa amayero, cyangwa witwaje ibyo ngibyo bakaguha amanyarwanda. aha ngaha baba bashyizeho agaciro k'amafaranga ugiye gushaka ku buryo ugenda uzi amafaranga ujyanye icyo ari bukuviremo.

Iyi ni inzu yivunjisha kandi aho baguha agaciro k'amafaranga wari uje kugura cyangwa wari ubazaniye uje kugurisha, baguhindurira amafaranga uko uyashaka wayazana mu manyarwanda bakayaguha mu madolari cyangwa amayero rwose barabikora hariho nimero zo kubahamagaraho, tubabona ko harimo insina hasa nk'aho hari n'undi muntu wambaye ingofero.

Ibikoresho biva mu mbaho aba ari byiza kandi bifite imitako myiza hamwe intebe ameza ndetse n'ibindi byinshi utu tuntu tubona twometse ku bikuta bisa umweru dukozwe mu mbaho kandi n'udutako twiza ushobora guterekaho ibyo byose bateretseho, ushobora no gutekarekaho n'ibindi nk'amafoto rero ibintu bituruka mu mbaho birakorwa cyane kandi birakunzwe.

Aha n' inzu bacururizamo ibikoresho byakozwe mu biti ari byo bashobora gukora mu ntebe ,ameza ndetse n'ibindi byinshi ahangaha mu ifoto turabonamo ameza bari babaje bakoresheje ibiti afite imitako myinshi afite ukuntu akozwe bisa neza kandi ushobora kuyataka.

Ibiti se cyangwa imbaho bishobora gukorwamo ibintu byinshi bikenerwa mu buzima bwa muntu arizo intebe, imeza ndetse n'ibitanda hano turabona ko bisa nk'aho ari utuzu dutoya dukozwe mu mbaho dufite ikirangantego cy'umukara kandi dufite ibara risa nk'umuhondo ahangaha ababikora barabigurisha bakunguka kandi n'ababiguze bakabikoresha ibyo bakeneye.

Ahantu henshi basigaye bakoresha ibintu bikozwe mu mbaho aha ni ho bazikorera kandi iyo bamaze kuzikora bakazigurisha ahangaha asa nk'uri gukora imeza ikozwe mu mbaho zikabona ko hari umuntu wambaye isengeri y'umweru usa nk'uri gupima ibyo yihaye gukora afite ibintu byinshi ari gukoresha cyangwa azakenera niba akora ibindi byinshi nk'ameza intebe ndetse n' ibitanda.

Icyumba kigaragara nkaho hari ahantu bigira ikoranabuhanga, hari abagabo babiri ndetse hari n'undi utari kugaragara neza, umwe yambaye ishati y'iroze undi yambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara, imbere yabo hari amaterefoni menshi bigaragara ko bari kwihugura.

Iyi ni hoteli serena yabereyemo ibirori aho ubona ko bateguye ibyo abantu bari bwiyakirize ibyo kurya hafi ku buryo be azajya yarura akaza akarya, ahantu hateguye neza ibintu birimo ibiryo nabyo birasa neza, kandi n'ahandi nyuma hoteli yicayemo abantu bimeze neza ahantu hose hameze neza.

Iyi ni i hoteli nziza ifite inyubako nziza, tukaba tubona ko ihoteli ikikijwe n'ibiti byiza bivuze ngo ahantu haba hagerwa n'akayaga kenshi cyane tukabona aya mazi asa nk'ibara ry'ubururu niho abantu bajya kogera aho bakunze kwita muri pisine, hakaba hari intebe kuruhande umaze koga cyangwa ushaka kureba aboga yicaramo aruhuka.

Iyi ni hoteli, turimo turabona aho abantu bogera, ariho bita pisine, harimo amazi, ahantu hasa neza cyane, bikabona ko hari aho umuntu yikingira izuba, hari umutaka w'umutuku, hari n'intebe zo kwicaramo, hakaba n'indi mitako y'ivu, rwose na yo munsi harimo intebe, hirya yayo harimo amapasiparumu, n'uturabyo, n'uduti twiza, n'intebe z'umukara.

Iyi ni hoteli rwose isize neza amarangi intebe n'ameza byose bisize ibara ritukura, bisa neza kandi biteguye neza ahantu hasi ndabona hariho amatafari bahateguye neza biteguye kwakira ababagana, hariho n'amarido meza agezweho ya kijyambere.

Iyi ni hoteri nziza cyane irimo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya imbere tukabonamo intebe zegereye ba bantu bajya gufata ibyo kunywa dukunze kwita kontwari tubonamo n'izindi ntebe zisa ubururu n'izindi zisa shokora hepfo hari insina n'ibiti byinshi twabonamo n'amatara kandi asize irangi ryiza hasi.

Hoteri nziza yubatse neza kandi itatse neza, turimo turabona ko imitako igiye iri ku nkuta zayo ni myiza cyane kandi irimo amabara atandukanye, tukabonamo intebe z'imikara ebyiri zirimo n'imisego y'umukara n'indi ntebe iri hirya, isa ibara rya shokora hari nayo ifitemo imisego, twabona ko hagati yaho harimo ameza ahangaha abantu bose bahatokeye bakiyakira kandi bakaba banasa neza.

Famili inshuwarensi, iyi ngiyi ni ubwishingizi bw'umuryango wawe ku bihereranye n'indwara, amashuri ndetse n'ibindi bitandukanye, urugero amazu nk'imirima n'ibindi.

Iyi ni hoteli isa neza irimo irangi risa umuhondo ku bikuta ndetse hari n'ahari umukara tukabonamo intebe nziza cyane z'imisego zimwe ziza shokora izindi umukara hakaba harimo n'ameza ahantu hose hasa neza ku buryo uwabishaka wese ahasohokeye yaza akabona ko ahantu ari heza batanga na serivisi nziza kuko ahantu hose hari imitako myiza.

Inyubako ndende y'ihoteri igereretse inshuro nyinshi ku buryo tutabibona, ifite ibara ryererutse ry'irangi, amadirishya y'ibirahure kandi ku ruhande yayo hasize umutuku, ikaba afite icyapa cyanditseho mitosi ubwo niko iyo hoteri yitwa.

Ndabona ihoteri ndende ifite amazu n'ibyumba binini ifite pisine aho ariho abantu bogera bashaka kuruhuka ifite aho bicara hariho imitaka ikurinda izuba harimo n'ibiti byinshi kandi bitanga akayaga keza.

Iyi ni hoteri nziza igeretse yubakishijwe amatafari asa nk'ahiye afite ibara ry'umutuku, bakaba bari imbere yaho hari aho abantu bogera gihe babyifuje, aho bakunze kwita pisine aho ugenda koga ubundi bakakwakira, bafite n'aho ugomba kwicara.

Inzu isa umuhondo hakaba hariho icyapa cyamamaza ishami rya Muhanga ry'ikigo gishinzwe ubwishingizi kitwa purayime hejuru y'iyo nzu hakaba hamanitse umunara w'itumanaho w'insakazamashusho.

Iki ni ikigo cy'ubwishingizi kikaba gisize irangi risa ivu hakaba harimo amatara meza cyane harimo n'igiti ku ruhande hakaba harimo intebe nyinshi izifite ibara ry'umutuku ndetse n'ivu kandi akaba ari intebe z'imisego akaba arizo abakiriya bicaramo bategereje serivisi . Tukabona umukozi w'iki kigo wicaye mu ntebe y'umukara kandi imbere akaba ari akabati cyangwa ameza asamweruru amukikije ariho ibyo akenera akora akazi.

Ibi ni ibiro by'ubwishingizi ari byo twita sanilamu hano mu Rwanda iyi ni inyubako ndende rwose bakoreramo, aho ushobora kubagana bakaguha serivisi z'ubwishingizi mu gihe ugize impanuka cyangwa ukagira ikindi kibazo cyatuma ukenera inyishyu y'ibyawe byose.

Inzu ifite amadirishya asa nkaho ari ay'ibirahure ndetse inzu ndende ifite inkingiza iroza, ikaba iba ahantu ku muhanda, ikaba yerekana icyapa cy'ubururu kirimo amagambo y'umweru byanditseho ngo ni radianti ikigo gishinzwe ubwishingizi hakaba hari hari ibindi byapa byinshi byerekana serivisi batanga nziza kandi zinogeye abaturage.

Inzu itanga ubwishingizi mu Rwanda izwi nka MUA, ikaba iherereye muri Kigali, aha ni ibiro byabo aho bakorera, turabona ni inzu nini iri ku muhanda, hari ibiti kandi byerekana ko abantu bashobora kubageraho byoroshye batayobye kugira ngo bishinganishe n'ibintu byabo.

Ibiro by'ikigo cy'ubwishingizi cyitwa saniramu. Kikaba gifite igisenge gisa umweru, hariho amatara yaka umweru ndetse n'inkuta zacyo zikaba zisa umweru. Ku ruhande rumwe rw'inkuta hakaba hariho imitako igiye itandukanye, urundi ruhande hakaba hariyo ikirangantego cy'iki kigo. Mu mbuga y'iki cyumba hakaba harimo intebe z'amoko atandukanye ndetse n'amabara atandukanye n'ameza.

Inzu zitanga ubwishingizi mu Rwanda ni nyinsh,i indi yitwa muwa nayo ikaba ari inzu itanga ubwishingizi, hari imodoka nyinshi ziparitse imbere z'umweru, ivu ndetse hari n'indi ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi, baba baje ku kwishinganisha kugira nihagira ikiba bazabafashe kwishyura cyangwa bafashe gutangira ibindi.

ibiro by'inzu ishinzwe ubwishingizi bisizwe ibara ry'umweru ku nkuta no hasi, harimo intebe z'ubururu zifite akantu ko hasi kazenguruka k'umukara, harimo intebe nyinshi herekana ko bafite abakozi benshi kugira ngo bazabone aho kwicara kandi bafashe abantu benshi.

Inzu ndende bisa nkaho igeretse igiye iriho ibyapa bibiri bifite amabara y'ubururu, ndetse n'ibimenyetso by'amagambo yanditswe mu ibara ry'umuhondo goshene fayinanse, bivuze ngo ni banki yagoshene iri i Remera, aho abantu bashobora kujya kubitsa cyangwa bakabikuza amafaranga yabo.

Abamama bambaye ibitenge mu mabara yose umuhondo umweru, ubururu bisa nk'aho baba bari kwifotoza ku bikorwa bari bakoze, utu duseke baba baboshye kandi ibi ngibi ni ibyo bakora mu makoperative bituma abantu bi biteza imbere.

Umwami ikigo cyitwa tekana loni aho baguha ubwishingizi bwuzuye bw'imodoka yawe, iyo ugize ikibazo, bakayigonga igakora impanuka cyangwa bakayiba baragufasha ibintu byose bakabigusubirizaho, bari bashyizeho umurongo wo guhamagara ku buntu kuri emutiyeni, bashyiraho na nimero wahamagaza imirongo yose ku buryo bakagufasha ukirinda kugwa mu bihombo.

Uku ni ukwamamaza kw'ikigo cya banki yitwa i andemu bari banditseho ngoyubake tugane tuguhe ahagera kuri mirongo irindwi ku ijana y'agaciro k'inzu yawe a yaba bari gutanga ku buryo ujyana ingwate bakaguha inguzanyo y'icyo ushaka gukora nimba utanze inzu bakaguha ikindi cy'amafaranga bingana kandi ariyo gutanga mirongo irindwi ku ijana.

Banki izwi ku izina rya Giti banki bari bafite kwamamaza hariho umugabo wishimye cyane urimo uraseka, wambaye ishati y'ubururu, ufite impapuro mu ntoki ze, ndetse na mudasobwa imbere ye barimo bamamaza ko ushobora kwagura ibyo wabikije byawe cyangwa urimo uribikira uteganya ejo hazaza babigufashamo kugira ngo wishinganishe.

Itangazo ryerekana ko banki y'abaturage mu Rwanda ariyo tuzina bipiyara irimo irashaka abakozi bajya kuyikoramo, ko hari umwanya ufite umuntu utawurimo umuntu ushobora gukora akazi ko muri banki wize kandi bavuga ko babikorera abantu kandi bakabikora kugira ngo babone ibyiza akaba ari umukobwa useka, bivuze ngo akazi kabo aba ari keza kandi yambaye neza.

umusore ndetse n'umukobwa umwe barimo barareba muri mudasobwa bagaseka ahangaha niho bari kwamamaza ati: banki ya afurika atitubwire intego yawe ushaka kugeraho ku mafaranga yawe tugufashe uyigereho bashobora kukubikiriza cyangwa bakaguha inguzanyo bakagufasha no kwishinganisha kuburyo ibyo ushaka kugeraho byose uzabigeraho haba hariho nimero cyangwa uruhuga ushobora kubasangaho bakagufasha.

Iyi ni inzu nziza cyane isizwe amarangi menshi umweru ubururu ndetse na shokora igiye irimo imitako myinshi ariyo indabo nziza z'amabara meza ibipirizo by'umweru ndetse n'ubururu intebe nyinshi zose z'umukara ndetse n'ameza aho abandi bakorera y'umweru ikaba harimo na televiziyo aho barebera ibindi, bisa nk'aho ari banki itanga inguzanyo.

Abantu tubona bahagaze umugabo wambaye ishat ijya gusa icyatsi cyererutse, ipantaro y'ubururu ndetse n'umuma wakenyeye wambaye igitenge n'agapira k'umukara bahagaze imbere y'abantu bambaye imipira yimweru ndetse n'amapantaro yumukara birasa nk nkahoa hari serivisi bari baje gusaba yinguzanyo kuko utabona ko n ibintu by'ubuhinzi ushobora kwaka inguzanyo ugatangiza ubuhinzi ukinguka kandi ukiyubaka ukabuzabona kwishyura

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amazu ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru n'aho ibinyabiziga biparika, urimo uragendwamo n'imodoka ndetse n'abamotari kandi twakabona ko bamwe bahagaze basa nk'abashaka abagenzi cyangwa hari abo bari baje guhagarika bakikijwe n'inzu isa nk nkahoa ari ishobora kuba ari inzu z'ubucuruzi kuko ziri ku muhanda kandi zigiye zifiteho ibyapa imbere yazo.

Iri ni isoko ry'imyenda aho ryubatse turimo turabona ko imyenda imanitse ahantu abantu bahagazeho bacuruza cyangwa abagurira bosebinjirira, amabatiy'ubururu ndetse n'umweru abantu bahagaze uwambaye umweru uwambaye roza hamwe n'undi wambaye umweru ndetse n'ubururu, bose barahagaze imyenda imanitse kugirango abantu bajye kuyiguriramo mu isoko.

Amafaranga y'amanyamahanga aya mafaranga ni ininote y'igihumbi yo muri Nijeriya iyo ushaka ko bayikuvunjira mu madorari baguha ahwanyije neza agaciro kayo.

Iri ni isoko aho abantu bajya guhaha imyenda kandi baranahadodera turabona abagore bicaye ku mashini zabo barimo baradoda imyenda, mu mwenda w'ibitenge kandi imanitse no hejuru tukabona abari kuzengurukamo bareba ko bimeze nimba bagura.

Iri ni isoko ry'imbuto z'ibiribwa aho abantu benshi baba bari gucuruza ndetse n'abandi baza guhaha, bisa nk'aho ari isoko rwose ririmo ibintu byinshi. Tukabonamo icyitwa puwavuro ndetse n'izo twita kokombure, tukabonamo n'inyanya n'amashu n'ibitunguru na dodo. Ibintu byinshi nta kintu ushobora kuburamo cy'intungamubiri kandi wakifashisha uteka.

Iri ni isoko bacururizamo ibintu byinshi turabonamo abantu bacuruza n'abagura mu byo tubonamo, turabonamo imyenda, ibikapu bimanitse n'ibibiri hasi, amavarize tukabona inzitiramubu zimanitse n'ibindi byinshi mu isoko biba birimo.

Iri ni isoko ry'imyenda aho umuntu wese ajya kugura umwenda, iramanitse kandi haba hari abayidoda kuko haba hari imyenda iri mu bwoko bw'ibitenge, imyenda abanyarwanda babamama bakuze bakunze kwambara, tukabona ko hari n'indi mipira yanditseho u Rwanda imanitse iri mu mabara umuhondo icyatsi ndetse n'ubururu abantu bari kugura hari n'abicaye bari mu kazi.

Isoko ricuruza ibiribwa abantu baje mu isoko guhaha harimo abana harimo abakecuru harimo n'abagabo, isoko turabonamo inyanya n'ibindi nk'intoryi abantu bari babitegereje ari benshi babimo baraganira harimo n'abaseka.

Inzu igendanwa iriho ibyapa byamamaza sosiyete ya emutiyeni, iyi nzu ikaba ifite umuryango umwe ndetse n'amadirishya abiri afunguye ateye ibara ry'umweru, muri iyi nzu hakaba harimo umudamu ufite ikaramu ndetse n'igitabo arimo kwandikamo, hakaba hari n'undi uhagaze hanze. Hafi y'iyo nzu hakaba hateye igiti.

Iyi nzu ni inzu ikoreramo umukozi wa Emutiyeni haba ari agace aba arimo ku buryo aha serivise abantu batuye muri ako gace za Emutiyene bitabasabye kujya ku cyicaro, aha ngaha umuntu ashobora kuza aje kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga yiwe yakoresheje Emutiyeni cyangwa ashobora no kuza kuhagura ama inite.

Ndabona umurongo wa telefone dukunze gukoresha hano mu Rwanda ari wo twita emutiyene, bari bamanitse umutaka umu ajeti wabo yicaye hasi cyangwa se umuntu ufasha abantu hafi yabo, tukabona umugabo wicaye ku igare yambaye umupira wabo w'umuhondo uriho ikirangantego cya emutiyene arimo ateka rwose nk'uwishimiye serivisi zimuha.

Akazu gasa umuhondo kanditseho emutiyeni bivuze ko hakorerwamo n'umukozi cyangwa umufasha wa emutiyeni akaba arimo hazengurutsweho n'abantu barimo abagore n'abagabo bayashakaho serivisi ashobora kuba ari ukubitsa cyangwa ari ukubikuza amafaranga cyangwa hari n'abagenzwa no kugura amayinite gusa ibi barabyoroheje kuko buri muturage agace kose arimo ashobora kubona aka kazu agahabwa serivisi za emutiyeni.

Imirongo myinshi ya telefoni itanga serivisi bakoresheje ikoranabuhanga, aho ukoresha telefoni cyangwa mudasobwa yawe, iyi tubona ni umutaka wanditseho mtn ubwo bivuze ngo hari umuntu w'umukozi wa mtn wicayemo utanga serivisi zayo ari ukubitsa amafaranga no kubiguriza abantu akabagurira amayinite kandi akabakorera n'ibindi byinshi bya mtn.

Umugore usutse ibisuko biryamye bifunze wambaye umupira wanditseho Emutiyene uhagaze imbere ya mudasobwa n'umugabo wambaye ishati y'umweru usa nk'uwaje kumurebaho serivisi byerekana ko ibi ni ibiro bya emutiyene, ni umurongo wihamagariraho ngo rero ibi ni ibiro bya Emutiyene bitanga serivisi zazo kandi banacuruza.

Akazu turimo turabona hano gasa umuhondo kanditseho emutiyeni biba biri kwerekana ko uyu murongo w'itumanaho bita emutiyeni uri utanga serivisi binyuze ku muntu uyikorera wicaye muri aka kazu ashaka kuguha serivisi nyinshi zitandukanye aho ushobora kohereza cyangwa kumubikuzaho amafaranga no kumuguraho amayite yo guhamagara abawe n'abandi bose wifuza.

Uru ni urubuga umuntu ashobora guhahiraho cyangwa akagurishaho ibyo ashaka akoresheje ikoranabuhanga, uru baka bakwita ronkosi Kigali mu Rwanda aho baba bari kubwira umuntu umaze kugura ko asiga amagambo asobanura ibyo yavuzeze ko ari byiza cyangwa ari bibi.

Umuhanda munini moto iyaparitse moto y'umutuku ifite pulake kandi ikaba ifite ikintu yikoreye cyanditseho vuba vuba, vuba vuba tuzi ko ari abantu uhahiraho kandi bakabikugezaho ukoreshe uhaha ukoresheje ikoranabuhanga babikugezaho bakoherereje, nk'ubu iyi moto harimo byo yari izanye cyangwa hari ibyo yari ije gufata igomba kugeza ku bantu babasabye serivisi.

Ikoranabuhanga ryakujije ibintu byinshi ku buryo ushobora kugura cyangwa ukagurisha ukanohereza ukoresheje terefone yawe na mudasobwa yawe, aha ngaha bari gukoresha uburyo ugura ibintu ukoresheje terefone baguha urubuga ugenda ureberaho ibyo ushaka ukagura ndetse ukanishyura ukoresheje mudasobwa bakabikoherereza, aha ngaha baba bavuga ngo guma amahoro kandi ugure ukoresheje ikoranabuhanga hariho nimero wahamagara bakabikugezaho.

Urubuga abantu bahahiraho bakoresheje ikoranabuhanga rw' Kigali rwitwa kisiti berekana ko hariho akagare umuntu agura ashyiramo ibyo ahashye kandi ahangaha urabigura bakabikohereza cyangwa ukaza kubyifatira.

Kugura ndetse no kugurisha hakoreshejwe ikoranabuhanga kuri telefoni cyangwa kuri mudasobwa yawe bimaze kuba ibintu byiza, iri ni itangazo ryerekana ko buri wese ashobora kwiga akoresheje ikoranabuhanga akajya acuruza cyangwa agahahira kuri telefoni yiwe cyangwa mudasobwa bari bari kuvuga ko kwiyandikisha ari ibihumbi mirongo itatu gusa ubundi bakakwigisha uko wacuruza ukoresheje ikoranabuhanga.

Urubuga rwo guhahiraho ibintu byose byaba bicuruzwa ukoresheje ikoranabuhanga, aribyo biri mu Rwanda, ushobora kuguraho ikintu icyo ari cyo cyose ushaka ukishyura kandi bakabikohereza bikakugeraho nta nkomyi ndetse nta n'ibogamizi zibayemo.

kugura ibyo ushaka ukoresheje ikoranabuhanga bimaze kugenda neza ku buryo ugura ikintu ukoresheje terefoni yawe cyangwa mudasobwa ukishyura kuri telefoni bakabikoherereza ku gihe kandi byihuse, iri tangazo rikaba ryanditseho ngo onu tayime fasite derivari aho bazajya bakuzanira ibyo watumye bakabikugezaho ku gihe kandi byihuse nta gutinda

Ikoranabuhanga ryaje turikeneye hano mu Rwanda kuko ridufasha muri byinshi aho ushobora gukora ibintu byose ukoresheje terefone yawe guhaha ndetse no kugurisha ibyo ukeneye byose, aha ni urubuga bari bari kwerekana ko guhaha urukoresheje bari bashyizeho amafaranga yagabanuwe kugeza kuri mirongo itatu ku ijana abantu bose bashaka kugura barabikoreshaga bashyizeho nimero wababonaho ndetse n'urubuga wabashakaho.

Uru ni urubuga umuntu ashobora guhahiraho akoresheje mudasobwa atavuye aho ari, aha ngaha bari bari kwamamaza iduka bakoresheje telefoni hari hariho imyenda, ibintu byose umuntu ashobora gukenera kandi wabigura ukoresheje telefone bakabyamamariza ku rubuga rwitwa isitagaramu, fasebuke ndetse na watsapu aho abantu bose bashobora guhurira hariho ni nimero zo kubabonaho.

Abatanga serivisi z'ubucuruzi bw'imitungo itimukanwa ni benshi mu Rwanda kandi babikora neza, aha ngaha bari kwerekana inzu nziza yubatse neza kandi ifite inzugi zikoze mu bwoko bw'imbaho ikaba ifite irangi ry'umweru nkuko turi kubibona, uyu mugabo akaba ari kuyikoraho nk'uwari uje kureba inzu cyangwa uyicuruza akaba yambaye ikote riza shokora yambaye ishati nayo isa shokora yambaye n'amadarubindi.

Uruganiriro rusa neza rusize irangi ry'umweru urimo n'amatara agezweho harimo intebe nziza rwose zisa icyatsi z'imisego tukabona ameza y'andi meza agezweho rwose afite n'utubati ateretseho icyo bita telekomande gikoreshwa kuri televiziyo, tukabona kandi igihuha gitanga umuyaga muri salo n'imitako myinshi.

Icyumba cy'ubwiherero gisa nk'igiherereye Kicukiro kagarama kirimo amakaro asa umweru, hakabamo indorerwamo kandi isa nkaho harimo umugabo wambaye ingofero, harimo ubwiherero bwicarwaho ukora ibyo ushaka gukora, hamwe n'aho amazi ava ajya mu bwiherero hasa umukara.

Serivisi y'ubucuruzi bw'imitungo itimukanwa irakomeje mu rwanda kandi ikorwa n'abantu bayizi bayishoboye, hano hari inzu iri kugurishwa muri kibagabaga kigali igurishwa amadolari ibihumbi ijana na mirongo itatu na bitanu cyangwa miliyoni ijana na mirongo itatu n'eshanu z'amanyarwanda inzu ifite ibikuta n'inzugi isa umweru ikaba ifite aho umuntu akandagira aho dukunze kwita itapi isa umutuku kandi harimo n'amarido asa icyatsi.

Icyumba cy'ubuganiriro kikaba gifite inkuta zisa umweru ndetse n'amatara asa umweru n'igisenge gikozwe mu mbaho zisa umweru, muri ikicyumba hakaba harimo intebe zigamirwa zimisego y'amabara atandukanye ndetse n'ameza akaozwe mu mbaho y'uruziga, ikicyumba kikaba giherereye mu mujyi wa Kigali kandi kikaba kigurwa amafaranga y'amadolari magana inani.

Serivisi y'ubucuruzi bw'imitungo itimukanwa irakomeje kandi irasakaye isigayekora neza cyane. Muri Kibagabaga Kigali aya mafaranga amadorari igihumbi magana atanu ku kwezi ishobora kuboneramo iyi nzu. Inzu ifite icyumba cyiza igitanda cy'umukara isize irangi ryerurutse kandi isha neza, bisa nkaho iri ahantu heza kuko irimo amarido meza asa neza.

Serivisi z'ubucuruzi bw'imitungo itimukanwa zimaze kubama nyinshi mu rwanda ushobora kugura cyangwa ukagurisha umutungo wawe utimukanwa ushobora kuba inzu cyangwa isambu, ari byo hano bari bari kugurisha. Iyi nzu ifite igipangu cy'umukara kandi ifite n'inkingi z'umukara ikaba ifite amategura cyangwa amabati ifite ibara ry'iroze, iyi nzu yari kugurishwa miliyoni mirongorindwi n'ebyiri mu rwanda hano i kigali.

Ibikorwa by'amazu aho bari kwamamaza yuko hari inzu irimo irakodeshwa Kigali Kimironko, iyo nzu ifite ibyumba bibiri kandi ndetse ifite ubwiherero bubiri, izajya yishyurwa ibihumbi magana ane by'amanyarwanda ku kwezi, inzu turabona ko isize ibara ryiza cyane ry'irange kandi abantu bayituyemo tukabonamo umusaza uhagaze.

Inzu ikodeshwa muri Kigali Kimironko ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwiherero bibiri ikaba izajya ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi, inzu iri ahantu heza hitaruye isize ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu bwerurutse, hagati ya hagiye harimo utuntu tw'udupasiparumu ndetse n'akayira ko gucamo, abantu bose bayubatse neza kandi iyi ngiyi ni inzu ya kijyambere.

Inzu iherereye mu mujyi wa kigali, mu murenge wa Kimironko, ikaba ifite uburyamiro bubiri ndetse n'ubwogero bubiri, ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu y'amafaranga y'Urwanda ku kwezi, mu mbuga y'iyi nzu hakaba hateyemo ubusitani burimo ibyatsi bigufi ndetse n'indabo, inkuta z'iyi nzu zikaba zifite irangi risa umweru ndetse n'inkingi zayo ziteye irangi risa umweru.

Inzu iherereye mujyi wa kigali umurenge wa Kimironko ikaba igizwe n'ibyumba bitatu by'uburyamiro ndetse n'ibyumba bibiri by'ubwogero ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi imbere y'i nzu hakaba hari inkuta zisize irangi ry'umweru ndetse n'igisenge kigizwe n'imbaho n'itara ryaka mweru hanze y'iyi nzukaba ari inkuta zigizwe ibara ry'ubururu ryerururutse.

Abantu benshi bagenda bashora amafaranga yabo muri serivisi z'ubucuruzi bw'imitungo itimukanwa ariyo; amazu cyangwa ibibanza cyangwa imirima aho ugenda wubaka inzu ejo ukayigurisha undi wakukuba indi n'ejo ukayigurisha , iyi ni inzu tubona ishobora kuba iri kugurishwa cyangwa ikodesha umuntu uyihagaze imbere wambaye ikote n'ishati y'umweru ashobora kuba ari kwamamaza cyangwa yari yaje kugura cyangwa ari nyirayo.

Ibi ni ibikorwa by'amazu cyangwa ubutaka hano bari bari kuvuga ko iyi nzu iherereye Gacuriro muri Kigali; ishobora gukodeshwa amadolari ibihumbi bitatu ku kwezi. Ifite ibyumba bitanu kandi irimo n'ibiro, turabona inzu ifite ahantu hose heza hubatse neza, hasize kandi irangi ryiza.

Serivisi z'ubucuruzi bw'imitungo itimukanwa ni nyinshi, aho ushoboragurisha cyangwa ukagura inzu cyangwa ubutaka buri ahantu iyi ni inzu irimo irakodeshwa murijyi Kigali Kanombe irimo ibyumba bine ndetse n'ubwiherero butatu, iyi nzu ukaba isize irangi ry'umuhondo rifite inkingi z'umweru kandi ifite n'inzugi n'amadirishya byiza ikaba yubatse kijyambere, bisa nkaho iri ahantu heza.

Serivisi z'imitungo itimukanwa irakomeje kandi gutera imbere cyane mu Rwanda ku buryo iyo ufite icyo uri kugurisha cyangwa ushaka kugura bakigushakiraahangaha ni inzu hari irimo irakodeshwa ifite icyumba kimwe ndetse n'ubwiherero bumwe ku buryo umuntu azajya yishyura ibihumbi magana abiri ku kwezi iherereye Kacyiru muri kigali inzu isizwe irangi riza shokora hariho na nimero wahamagara mu gihe waba wifuza kuyikodesha.

Serivisi z'ubucuruzi bw'imitungo itimukanwa ni nziza kandi abazikoramo zirabangukira bakabona amafaranga aha ni muri Nyarutarama muri Kigali aho iyo aparitema aho tuzi nk'inzu ziba zishyurwa buri wese arara mu cyumba kimwe izo zigeretse zari zirimo zirakodeshwa ziri ahantu heza zifite irangi ryiza kandi abafite imodoka zabo bababona aho baziparika, abona umuntu usa nkuwari uri kwamamaza wambaye imyenda ya shokora.

Inzu ikodeshwa i Kigali i Remeramo icyumba kimwe n'ubwiherero bumwe, aho bogera ndetse naho bihererera ukabona hasize irangi ryiza rwose ry'umweru inzugi nziza zifite ibirahuribiri bitagaragara urabona ko umuntu kuhande usa nkaho ari mu ndorerwamo yaho.

Inzu iherereye i Kanombe muri Kigali ifite aho imodoka zihagarara habiri, inzu ndabona zifite amabati aza shokora tukabo igikuta kimwe cy'umukara ikindi umuhondo, tukabona rwose gifite inkingi gifite utuntu tw'utwatsi tumeze nk'indabo bateye rwose hameze neza.

Inzu irimo ikodeshwa muri Kigali Kimironko, isa nk'aho ifite irangi ry'umweru inyuma n'amabati asa umutuku, ikaba ifite amadirishya n'imiryango isa ibara ryenda gusa umuhondo, igasa nk'ifitemo jaride n'ibiti kandi n'ahantu hanini abantu baca.

Inzu ihererye mu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Kanombe. Ikaba ifite imbuga ishobora guhagararamo imodoka eshatu. Ku ibaraza ry'iyo nzu hakaba hari utwuma tw'umukara ndetse n'amatara y'iyi nzu yaka ibara ry'umweru. Ikaba igura miriyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Itangazo na serivisi z'ubucuruzi bw'imitungo itimukanwa, irerekana ko hano iyi nzu iri kimihurura muri Kigali ishobora gukodeshwa ku mafaranga ibihumbi magana arindwi by'amanyarwanda ariyo amadolari magana arindwi, iyi nzu ikaba ifite ubusitani imbere harimo n'ibiti ikaba igeretse kabiri kandi ifite irangi ryiza ririmo umweru oranje kandi harimo n'umukara.

Iri ni isoko rinini ry'ubucuruzi aho tubona ko hari aho abantu binjirira ndetse n'aho basohokera hari n'aho bajya kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga hasi turimo turabona ko uhasize ibara ry'umweru ndetse n'umukara, tukabona ko hashobora kuba hari indi esikariye uzamukiraho ugiye ahandi ugiye kureba ibicuruzwa byawe ukamanuka ukishyura ukaba wabonye ibyo washakaga byose.

Iri ni isoko bahahiramo turimo turabona umuntu uhagaze wambaye imyenda y'umukara dusa nkaho ashobora kuba aje guhaha cyangwa akuramo tukabonamo amata y'inyange amata yandi twita hayirandi, hakaba arimo amazi munsi hejuru tukabonamo imitobe.

Aha naho baza guhahira, turimo turabonamo abantu bari gucuruza ndetse nabahaha tukabona ibyo bacuruza biri hejuru. Tuguma kubona ko ari isoko ry'imbuto ririho ibintu byose bagomba guhaha, imineke ya pome ndetse n'ibindi byose n'amaronji byose byiza.

Iri ni iduka rinini abantu bahahiramo riba ririmo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa n'ibindi byinshi bitari ibyo ngibyo, aha ngaha haba harimo umuhanda wo kugendamo urimo urareba ibyo ushaka biri mu tubati kandi haba harimo n'utuntu baguha ushyiramo ibyo uri guhaha kugira ngo uze kubona uko ubitwara ugiye kwishyura.

Iri ni isoko bahahiramo rimwe bya kijyambere ujyamo ibintu biba biri aho ubireba, bimanitse ukagifata ukajyana aho hano hari mudasobwa ukishyura, ibintu bakabishyira mu mashini, bakaguha agapapuro kariho ibyo waguze n'ayo wishyuye.

Isoko rinini rihahirwamo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa ni ryo turi kubona hano, ibintu byose bikaba biba biri mu cyo bita akabati kageretse, biba biri hasi kugera hejuru ibintu byose wakifuza. Tukabonamo akayira ako abantu bagenda bagendamo barimo barashaka ibyo bagiye kugura, tukabona abantu imbere basa nk'aho bari kugura cyangwa bari barangije.

Aha ni ahantu bahahira aho ugendera ugahahaibyo ushaka ukishyura ugataha, umuntu ufite ikiganza gifite inzara zisize irangi ry'umutuku ufite agakoresho k'umukara ari gutunga kuri ibyo bintu abantu baguze akabona igiciro muri mudasobwa yiwe agatuma abwira umuntu ayo yishyura kandi uwo muntu bakamuha agapapuro kanditseho icyo yaguze n'ayo yishyuye.

Iyi ni ikarita turi kubona ifite ibara ry'umuhondo, igiye iteyemo amakashe kandi yandikishijwemo amabara menshi. Iyi ikaba ari ikarita mu bwisungane bwo kwivuza, aho abantu bose bayigendana bagiye kwa muganga, akaba ariho bandikwa cyangwa bakandika igihe baje kwivuriza kandi bakazanayigarura mu gihe baba bagize ikindi kibazo, akaba ariyo karita ikoreshwa mu Rwanda.

Ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza, iyi ni ikarita abantu bajyana bagiye kwivuza kwa muganga ku buryo ataremba ayifite mu Rwanda uzijyana ku kigo nderabuzima cyangwa ariho hose ku bitaro bakakuvura kandi byihuse.

Izi ni serivisi Igihugu kiba cyaregereje abaturage mu gace runaka, ku buryo ugize ikibazo ujya kwivuza, aha niho bita gira ubuzima, aho ugenda bakakuvura indwara yose waba ufite aho kugira ngo bigusabe kwimuka ujye ahantu kure. Inzu ikaba ifite ibara ry'ubururu ndetse yanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu ariko bisize umweru, tukabona umumama wambaye ibitenge wasaga nk'usohotse n'abandi bicaye basa nk'abategereje serivisi.

Icyapa cyamamaza ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda. Imbere yacyo hakaba ahahagaze abagabo babiri bafite urupapuro runini rw'amafaranga. Umwe muri abo bagabo afite umusatsi muke ku mutwe we, undi nta musatsi na mba afite.

Umugabo usa nk'uwiyubashye wambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati, asa nkaho bamushyize ibikoresho by'ikoranabuhanga imbere, bari gufata amajwi ye arimo kuvuga ikintu k'ingenzi, kandi inyuma ye hari icyapa cya ara esi esi bi bivuze ngo ni ubwishingizi ashobora, akoramo bwo ku bantu.

Umuntu wambaye umupira w'umweru uriho ikirangantego cya ara esi esi bi witeretse amazi, imbere ye asa nk'uri kuganiriza abantu ku bintu byitwa ejo heza ari bwo ubwishingizi bw'imibereho myiza y'abanyarwanda, yegeranye n'umuntu wambaye imyenda ya gisirikare hariho n'idarapol y'u Rwanda.

Serivisi z'ubuzima zitangwa na leta aho bari bahawe mituweli kugira ngo bajye babasha kwivurizaho kandi iyo uyifite iyingiyi ujya mu bitaro cyangwa ivuriro iryo ari ryo ryose bakakuvura kuko uri umuturage w'icyo gihugu kandi utabona ko abamama bateze ibitambaro bambaye rwose bari bahawe ubwishingizi bwo kwivurizaho ubuzima bwabo buzamera neza.

Serivisi z'ubwishingizi bw'imibereho myiza y'abaturage ziratangwaho n'ibigo byinshi, ahangaha turabonamo kimwe muri byo cyitwa araesesibi kuburyo umuntu wese ugifite cyangwa ugikoresha, bari bashyizeho ngo umunyamuryango ku isonga bivuze ngo umuntu wese ukorana nayo bamuha serivisi nziza aba bamama turimo turabonabari bari bagifashe bambaye imyenda yirabura bari barimo baraseka, bivuze ngo niba banagikorera cyangwa bayikoresha bose babayeho neza.

aha ni aho bacururiza ibintu byo kurya kandi turabona ko harimo intebe n'ameza bisa nkahoaho no kuriramo byemewe tukabonamo ibyo bita ibisuguti byinshi by'ubwoko bwinshi bitewe n'ibyo umuntu akunze n'ibyo agura tukabona ko ahantu heza hafite amarangi asa neza kandi hari n'utuntu dutatse rwose tw'ibyatsi bisaneza

Umugabo usa nkaho yambaye ishati ndetse n'ipantaro irimo amabara y'ubururu akaba afite icupa ry'ikinyobwa mu ntoki ze ari kureba umukobwa wambaye umupira w'umutuku usa nk'aho arimo aramupakira ibintu yaje kugura muri rino soko rinini ari ryo ririmo ibintu byinshi ashobora kuba yari akeneye, iri ni isoko rinini abantu benshi bajya guhahiramo ibyo bakeneye byose kandi bakabibona.

Iri ni isoko abantu bahahiramo rinini riba ririmo ibyo ukeneye byose, ndetse urabonamo ibyo bita nk'amata ya nido urabonamo urusenda n'ibindi byinshi by'ibirungo abantu bakoresha bateka icyayi, ndetse n'inyama n'ibindi byose kandi urabona ko biri mu kabati gapanze neza gakomeye.

Iduka rinini ryo guhahiramo ibyo wifuza byose turimo turabonamo abamama ndetse n'umugabo umwe basa nkaho bari mu kazi, bahanagura ibintu babishyira mu tubati byakagombye kubamo, ubundi ku buryo wese ubishatse abisanga biri mu tubati hariho n'igiciro akagura agatwara.

Isoko rinini umuntu ashobora kuhahiramo ibintu byose, turimo turabona akayira kanini ko mu isoko, tukabona kandi n'ibintu byose abantu bashobora guhaha hepfo harimo umuntu usa nkaho yambaye umukara hose, bagiye bamanika ibyo umuntu ashobora guhaha biri muri tuno tubati kandi bigihe bitambitse neza nta kavuyo.

Isoko rinini ryo guhahiramo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa biba ririmo utubati tugeretse aho bagenda bashyiramo ibicuruzwa, bagashyiraho ndetse n'igiciro. Tukabona ibintu byinshi biri mu mashashi asa umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku bipakiye ari byo byari biri kugurishwa kandi ahantu hagaragara hari urumuri.

Iduka rinini ryo guhahiramo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa tukabona ko hano ari aho bacururiza imbuto cyane cyane tukabonamo akayira ko bagendamo kandi ndetse n'akagare basunika umaze gushyiramo ibyo waguze tukaba tubona icyapa cy'umukara cyanditseho ko ibiribwa biri hano ari bishya aribwo bikimara gutunganywa bivanywe mu murima buri wese ashobora kubigura bikaba byiza cyane.

Iri ni soko rinini abantu bahahimo ibintu byose by'ubwoko bwinshi, haba harimo ibiribwa, ibinyobwa, imbuto, ndetse n'ibindi byose biba byarakozwe n'inganda, bidasabwa gutunganya, tukabonamo utwo tugare n'utwo abantu bagenda bashyiramo indyo barituyi bagiye kugura kugira ngo biborohere kuza kubitwara bajya kwishyura kandi uyu nimuhanda bagenda banyuramo.

Isoko ryo ku guhahiramo, hari ahantu henshi abantu baca bazenguruka bareba ibirimo byose, aritwo utwo tuyira turimo turabona, kandi bigiye biri mu tubati bipanze neza, ku buryo umuntu wese ashobora kubibona, atavunitse kandi bitamuri kure.

Iduka rinini ryo guhahiramo ibintu iyo ubikeneye, turabonamo abantu bari hagati mu kayira bagiye bafite ibyo basunika, biriya ni ibikoresho ugenda ushyiramo ibyo wahashye kugira ngo bikorohereze kubitwara ubone uko ujya kwishyura. Harimo ibintu byinshi byo guhaha, hasize amabara menshi y'umutuku bisa nkaho ari mu gihe cya noheri, abantu benshi baje guhaha ibyo ku munsi mukuru.

Ni isoko rinini bita supa maketi abantu bajya guhahira ibyo bashatse rwose, uyu yari arimo arahaha mu bintu bisa nk'aho ari iby'isuku, turabibona yari yambaye ijipo ndetse n'ikote ry'ikoboyi y'ubururu, n'umupira w'umuhondo, yambaye n'inkweto z'umukara, tukabona aho ibikoresho bikonjesha ibyo kunywa cyangwa ibyo kurya byari bihari harimo n'ibinyobwa.

Umuntu arimo ara asunika igare bakoresha barimo barahaha mu isoko rinini ariryo ryitwa supamaketi kandi afite ibiribwa byiza bimwe byujuje intungamubiri bakoresha barya, banateka indyo yuzuye harimo izisa umuhondo, icyatsi n'iyama nziza.